Ahantu ubona yuko hacururizwa inyongeramusaruro, imiti ndetse n'umwayi w'imbuto n'ibindi bihingwa bitandukanye, ni byiza ko aya maduka yegerezwa abahinzi kugira ngo babashe kubona iby'ingenzi bakenera mu buhinzi n'ubworozi.

Icyumba ubona yuko kirimo utubati turimo imiti ndetse n'imyayi ndetse n'ibindi bikoresho byose byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, ni byiza ko aya maduka yegerezwa abaturage kugira ngo babashe kubona iby'ingenzi bibafasha gukora ubuhinzi n'ubworozi neza.

Abaturage benshi ubona ko barimo n'umujyanama mu by'ubuhinzi, barimo baratera ibihingwa bitandukanye bamwe bari guca imyobo yo gushyiramo ifumbire ndetse n'imbuto. Ni byiza yuko abaturage bose bafatanyiriza hamwe kugira ngo bakore ubuhinzi kinyamwuga kandi barusheho kwiteza imbere.

Umugabo yicaye ahantu ubona yuko mu bigaragara ari iduka ricuruza inyongeramusaruro, imiti ndetse n'imbuto zifashishwa mu buhinzi, ni byiza ko amazu nk'aya ngaya y'ubucuruzi yegerezwa abaturage kugira ngo babashe kubona iby'ingenzi bikenewe kugira ngo bakore ubuhinzi bwa kinyamwuga.

Ahantu ubona yuko ari umurima uhinze, muri wo harunzemwo ifumbire y'imborera. Ni byiza yuko igihe abantu bari gukora ubuhinzi bifashisha ifumbire y'imborera n'ivaruganda kugira ngo babashe kugira umusaruro mwiza.

Igihingwa cy'ibihaza ni igihingwa kiza cyane kuko bishobora kudufasha kubona imboga zo kurya ndetse n'ibihaza ubwabyo bikaba ari ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri utasanga mu bindi biribwa ibyo ari byo byose. Ni ngombwa yuko duhinga ibi bihingwa kugira ngo turusheho kwihaza mu biribwa.

Ibase ubona y'uko ikoze muri parasitike, irimo ingemwe z'inyanya ndetse n'amashu, bigaragara y'uko ariho bayahumbitse, ni byiza ko ibikoresho nk'ibi ngibi byifashishwa mu buhinzi bitwarwamo imbuto ndetse bikaba byanifashishwa bazihingamo, kugira ngo zikomeze zirusheho kumera neza.

Iduka ricururizwamo ibijyanye n'ubuhinzi. Harimwo imyayi, harimo imiti, harimo n'ibikoresho byifashishwa mu kuhira. Aya maduka ni ingenzi cyane kuko afasha abaturage mu mirimo yabo ya buri munsi y'ubuhinzi, bityo bikabafasha kubona umusaruro mwiza.

Ahantu hari uducupa twinshi cyane tubitse ahantu haduha umutekano. Mu bigaragara utu ducupa turimo imiti ndetse n'udukarito turimo imyayi. Aha ngaha ni mu iduka ricuruza ibijyanye n'inyongeramusaruro ndetse n'imiti y'amatungo n'ibihingwa. Ni byiza ko yegerezwa abahinzi.

Abaturage ubona yuko bari ahantu hahinze ibigori. Barimo barashyira imvaruganda kuri ibyo bigori. Ni byiza yuko abaturage bakorera hamwe, bakabasha kwita ku bihingwa, kandi ni byiza yuko mu gihe turi guhinga, dukoresha ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda kugira ngo tubone umusaruro mwiza.

Umugabo ubona y'uko ko ari umuhinzi, ahetse igikoresho cyifashishwa batera imiti ku bihingwa, ni byiza ko igihe cyose dukora imirimo y'ubuhinzi dutera imiti ku bihingwa kugira ngo tubirinde kuba byakwangizwa n'udukoko ndetse n'ibindi byonnyi.

Umubyeyi ubona yuko ari umuhinzi w'igihingwa cya kawa, ni byiza ko abantu dukangukira guhinga ibi bihingwa kuko bidufasha mu kubona amafaranga kandi iyo byitaweho bitanga umusaruro mwiza, bikadufasha kwivana mu bukene,

Abahinzi ubona yuko bari mu murima basanzwe bakoreramwo ubuhinzi bw'ibinyomoro Ni byiza yuko abantu bakangukira gukora ubu buhinzi kuko ari ingirakamaro cyane, kuko butanga amafaranga ndetse bukanabafasha kwihaza mu biribwa.

Ahantu ubona yuko hahinze ibihingwa byiganjemo ikawa ndetse n'insina nkeya. Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bitanga amafaranga menshi cyane ku muntu wazihinze akazitaho neza. Birakwiye yuko twitabira kuzihinga kugira ngo twivane mu bukene.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bishobora gusiga amafaranga umuntu wabyitayeho neza, ni byiza yuko tuzitaho tuzishyiraho ifumbire y'imborera n'imvaruganda, kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro mwiza.

Igihingwa cy'inanasi ni bimwe mu bihingwa biteza imbere umuntu binyuze mu kuba zitanga amafaranga kandi ni bimwe mu mbuto umuntu ashobora gufata igihe ari gufata amafunguro kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Ahantu ubona yuko hari ibiti bisanzwe bizwi nk'imiyenzi, ibi ngibi ni ibiti abantu bashobora kwifashisha bakora urugo ndetse kandi iyo byakuze byifashishwa mu kuba byakorwamo inkwi abantu bacana, dukomeze tubibungabunge.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bishobora gufasha umuntu kwiteza imbere binyuze mu kuba bitanga amafaranga, cyane ko izi kawa zifashishwa bakora icyayi, ni byiza ko dukangukira guhinga ibihingwa nk'ibi ngibi kugira ngo twiteze imbere.

Ikawa ni kimwe mu gihingwa gishobora gutuma umuntu wagihinze yikura mu bukene cyane ko gitanga umusaruro utanga amafaranga cyane, ni byiza yuko tugomba kuzitaho tuziha ifumbire y'imborera n'imvaruganda kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro mwiza.

Ahantu ubona yuko hari ibimera bitandukanye, harimwo ibyatsi, imbuto ndetse n'ibindi biti bidatanga imbuto. Ni byiza yuko ibi byose twabibungabunga kugira ngo turusheho gutuma tugira ibidukikije bimeze neza bityo tubone umwuka duhumeka ndetse turusheho kubaho neza.

Ahantu hahinzwe ibihingwa bitandukanye, byiganjemo imboga n'imbuto, ni byiza yuko twese dukangukira gukora ubuhinzi nk'ubungubu, kugira ngo twihaze mu biribwa, kandi twivane mu bukene.

Imirima myiza ubona yuko itunganyijwe kijyambere aho bagiye basigamo inzira umuntu ashobora kunyuramo ndetse n'inzira z'amazi. Ni byiza ko dutunganya imirima neza kugira ngo turusheho gukora ubuhinzi butanga umusaruro.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bifasha abantu kubona amafaranga binyuze mu kuba zifashishwa mu gutunganya icyayi. Ni byiza ko abantu dukangukira guhinga ibihingwa nk'ibi ngibi kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Ahantu ubona yuko hakorerwa imirimo y'ubuhinzi, hahinze ibihingwa bitandukanye byiganjemo imbuto n'imboga, ni byiza ko ubu buhinzi nabwo butezwa imbere cyane ko imbuto n'imboga byuje vitamine utasanga mu bindi biribwa kandi zikaba zikenewe n'imibiri yacu kandi bigafasha ubuhinze kwiteza imbere.

Ahantu ubona y'uko hahinze igihingwa cy'imyumbati, iki ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bifasha umuntu wabihinze kwihaza mu biribwa ndetse no kubona amafaranga bityo akiteza imbere, binyuze mu kuba bishobora gutanga imyumbati turya ndetse iyo myumbati ikaba yanavamwo ifu twaryamo ubugari.

Umurima ubona y'uko uteyemo ibiti bivangwa n'imbuto, ibi biti ni ingirakamaro cyane kuko bidufasha mu gutanga igicucu ku yindi myaka twahinze ndetse bikaba byanatanga imvura ndetse bikifashishwa bitanga ibiti byifashishwa bashingirira ibihingwa bitandukanye.

Ibitoki byinshi kandi byiza ubona yuko bibereye ijisho, ibi ngibi byifashishwa umuntu akora imineke ndetse bikaba byanabyazwamo ibinyobwa bitandukanye, birimo inzoga ndetse n'imitobe, ni byiza yuko tubibungabunga.

Umuceri ubona yuko watunganyijwe neza, uvuye mu ruganda. Ni byiza yuko igihe abaturage bamaze gutunganya umusaruro wabo, bawusho kugira ngo inganda ziwutunganye neza, ubashe kubagarukira umeze neza ku buryo utabagiraho ingaruka.

Inyanya ni rumwe mu mbuto umuntu ashobora guhinga bityo bikaba byamufasha kwikura mu bukene ndetse akanihaza mu biribwa, si ibyo gusa kandi inyanya umuntu azifashisha arimo ateka, zikaryoshya amafunguro kandi zishobora no kuba imiti ku ndwara z'uruhu zitandukanye.

Ahantu bahumbikira imbuto zitandukanye, aha ngaha hahumbitse intusi. Intusi zidufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi bitewe n'uko iyo zikuze zidufasha kubona ibiti byo kubaka, zikaba zavamo imbaho si ibyo gusa kandi zidufasha kuyungurura umwuka duhumeka dukomeze tuzibungahunge.

Ahantu ubona yuko ari mu murima hateyemo ibihingwa byitwa ibigori. Ni byiza yuko dukangukira guhinga ibihingwa nk'ibi ngibi kugira ngo twihaze mu biribwa, ndetse turusheho no kwiteza imbere.

Umurima utunganyijwe neza mu buryo bugezweho. Uteyemo ibihingwa by'imboga byitwa amashu. Ni byiza ko dukangukira guhinga ibihingwa nk'ibi ngibi, kugira ngo twihaze mu biribwa ndetse tunikure mu bukene.

Ahantu hari ibihingwa byinshi byiganjemo urutoki, ndetse n'ibindi byatsi byo mu kigunda, ni byiza yuko urutoki rukorerwa neza cyane, kugirango rurusheho gutanga umusaruro mwiza, bityo uwaruhinze yivane mu bukene kandi yihaze mu biribwa.

Agakoresho keza gafite isuku ubona yuko karimo imbuto zitwa avoka, izi mbuto ni imbuto z'ingenzi cyane kuko zidufasha mu kubona intungamubiri ndetse zikaba zatuma amafunguro aturyohera, si ibyo gusa kandi zitanga n'amafaranga, twitabire kuzirya ndetse no kuzihinga.

Umurima ubona y'uko uteyemo imyaka itandukanye by'umwihariko ibishyimbo ndetse n'imyumbati, ni byiza y'uko abantu twese dukangukira gukora imirimo y'ubuhinzi kuko ari isoko y'amafaranga ndetse ikaba inadufasha kwihaza mu biribwa bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu ubona yuko hahinzwe igihingwa cy'inyanya, witegereje neza zihinze ku murongo kandi zihanye intera byerekana yuko zihinze mu buryo bwa kijyambere. Ni byiza yuko dukangukira gukora ubuhinzi bwa kijyambere kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Umurima ubona yuko wari uteyemwo ibigori, ubu ngubu ukaba uhinzemo igihingwa cy'imyumbati. Ni byiza yuko dukangukira guhinga imyumbati cyane yuko ari isoko y'ibyo kurya nk'imyumbati, ndetse ikaba inadufasha mu kuba yatunganywa igakurwamo ubugari, byose bigirira umumaro imibiri yacu.

Agakarito karimo umuti wifashishwa bakingira amatungo atandukanye harimo ihene, intama ndetse n'inka. Ni byiza ko twitabira gukingiza amatungo yacu kugira ngo tuyarinde indwara zitandukanye ndetse tuyafashe kugira ubuzima bwiza bityo atange umusaruro.

Agakarito ubona yuko karimo inkingo batera amatungo harimo inka, ihene ndetse n'andi matungo, ni byiza ko dukingiza amatungo yacu kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, dukomeze tugire ubworozi butanga umusaruro.

Umukobwa ubona ko arimo arasuka ibiryo by'inkoko mu kantu yazikoreye zigomba kuriramo, ni byiza ko dukangukira gukora ubworozi nk'ubu ngubu kuko butanga umusaruro mu gihe gito bityo bukadufasha kwivana mu bukene ndetse no kwihaza mu biribwa.

Umunyeshuri ubona yuko yaryamitse imbwa hasi arimo arayikoreraho ubushakashatsi. Ni byiza ko abashakashatsi bifashisha amatungo mu gihe barimo bagerageza ubushakashatsi bwabo, kandi ni byiza yuko abanyeshuri bafashwa kubona aho bakorera ubushakashatsi bujyanye n'ibyo biga.

Ibikoresho bikoze mu byuma byifashishwa mu kubika amata kugira ngo biyarinde kwangirika, ni byiza ko igihe twagize umusaruro w'umukamo tuwubika neza kugira ngo tuwurinde kwangirika.

Imbwa ubona yuko ifite ikibazo ku kaguru kayo k'iburyo, ni byiza ko igihe aya matungo yagize ibibazo duhamagara abavuzi b'amatungo, bakaza bakayitaho bakayaha ubuvuzi, kugira ngo arusheho kwitabwaho.

Inka ubona yuko ifite ikibazo cy'uburwayi. Iri hanze. Ni byiza ko abantu bafite amatungo nk'aya ngaya igihe babonye yafashwe n'uburwayi, bagomba guhamagara abaganga b'amatungo kugira ngo bayavure hakiri kare bityo biyarinde kuba yapfa, agateza igihombo.

Abantu ubona yuko ari benshi bafite amasuka bari guhinga. Ni byiza yuko twibumbira mu mashyirahamwe y'ubuhinzi kugira ngo turusheho gukora ubuhinzi kinyamwuga kandi burusheho kutubyarira umusaruro ushimishije.

Abantu batatu ubona yuko bafite impuzankano ndetse bafite amasuka ubona yuko barimo barakora umuyoboro w'amazi, ni byiza yuko twita mu gukwirakwiza amazi ahantu dukorera imirimo y'ubuhinzi kugira ngo bitworohereze kuhira tubone umusaruro mwiza.

Abahinzi ubona y'uko bari gutunganya umurima bazateramo imyaka yabo bakoresheje amasuka, ni byiza ko dutunganya imirima yacu neza mbere yo gushyiramo imyaka kugira ngo turusheho kugira umusaruro umeze neza.

Abaturage benshi ubona yuko bahuje umutima barimo baratunganya umurima wo guteramo imbuto ndetse n'indi myaka, ni byiza ko abaturage bagira umuco wo gukorera hamwe kugira ngo babashe gukora ubuhinzi butanga umusaruro mwiza.

Umugabo uri mu murima we yahinzemo urutoki ndetse n'inyanya, mu bigaragara arimo arakorera kimwe mu biti bivangwa n'imyaka ari cyo giti cya avoka, ni ngombwa yuko twitabira gutera ibiti bivangwa n'imyaka kuko nabyo bigira umumaro cyane ko bivaho imbuto turya ndetse n'ibindi.

Umugabo ubona yuko arimo arasarura ibihingwa byitwa ibishyimbo byamushingiriro, mu bigaragara yarabishingiriye ndetse abisaruye igihe kigeze aho byari byarumye, ni byiza yuko dukora ubuhinzi kinyamwuga kugira ngo twihaze mu biribwa ndetse dusagurire n'amasoko.

Abantu babiri ubona yuko bari mu murima barimo baratera imyaka, muri uwo murima harimo urutoki, ni byiza ko abantu twese dukangukira ubuhinzi kuko budufasha kwikura mu bukene ndetse no kwihaza mu biribwa.

Abagabo babiri ubona yuko bari guhinga ahantu hasaruwemo ibigori, harimwo ibindi bihingwa birimo n'imyumbati, ni byiza ko dutunganya imirima neza tuyihinga neza mbere yuko duteramo imyaka kugira ngo turusheho kugira umusaruro mwiza.

Umugabo ubona y'uko ari mu murima wiwe aho yahinze ibigori, ubona y'uko ari ibigori bimeze neza byatanze umusaruro mwiza, ibigori ni igihingwa umuntu ashobora guhinga akihaza mu biribwa ndetse akanikura mu bukene.

Abantu benshi bafite amasuka bari gutunganya umurima bagiye guteramwo ibihingwa bitandukanye, ni byiza ko igihe cyose tugiye gutera ibihingwa tubanza tugatunganya imirima neza kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Abantu benshi ubona yuko barimo n'abajyanama b'ubuhinzi, bari ahantu mu murima, bari gukora inama y'uburyo bagomba gutera neza ibiribwa, kugira ngo barusheho kubona umusaruro mwiza, ni byiza ko abaturage bafatanya n'abajyanama b'ubuhinzi kugira ngo barusheho guteza imbere ubuhinzi.

Igihingwa cy'urutoki ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo kandi bitanga amafaranga binyuze mu kuba bidufasha kwihaza mu biribwa nko kubona ibitoki byo kurya ndetse n'imbuto zitwa imineke, bikaba byanifashishwa hakorwa ibinyobwa bitandukanye nk'inzoga ndetse n'imitobe.

Abantu benshi ubona y'uko barimo n'abajyanama b'ubuhinzi, barimo barahinga batunganya umurima bagiye guteramo imbuto ndetse n'indi myaka, ni byiza ko abajyanama b'ubuhinzi na bo begera abaturage bakabafasha mu gukora ubuhinzi butanga umusaruro mwiza.

Abantu benshi ubona yuko bari gusarura igihingwa cy'umuceri, ni byiza yuko dukangukira gukora ubuhinzi bw'umuceri kuko budufasha kwihaza mu biribwa ndetse no kubona amafaranga bityo tukiteza imbere.

Abantu barimo n'abo mu nzego z'umutekano bitwa DASSO, aba bantu mu bigaragara bari gutera urubuto, ni byiza yuko dufatanya twese hamwe tukita ku buhinzi bw'imbuto twita ku byegereza abaturage.

Abantu benshi biganjemo abakiri batoya bari gukorera hamwe batunganya ubusitani batera indabo ndetse izameze bazikuraho ibyonnyi nk'ibyatsi bishobora kuzangiza, ni byiza ko dufatanyiriza hamwe kugira ngo turusheho kwimakaza umuco w'isuku ndetse dukurikirane ibihingwa nk'indabo ahantu dutuye.

Abantu benshi cyane, mu bigaragara bafite amasuka barimo barahinga, ni byiza yuko abantu twibumbira mu mashyirahamwe nk'aya y'ubuhinzi, kugira ngo tubashe gufatanya, duteza imbere ubuhinzi butanga umusaruro.

Umuntu bigaragara yuko arimo aratera imbuto. Ni byiza ko dukangukira guhinga imbuto zitandukanye kugira ngo turusheho kubona amafaranga, kandi turusheho kwihaza mu biribwa, bityo dutere imbere.

Abantu babiri ubona yuko bari gutunganya umurima bagiye guteramo imbuto bifashishije imigozi, ni byiza yuko dukangukira gukora ubuhinzi bwa kijyambere dutera ku murongo ku buryo ibihingwa bihana intera kugira ngo birusheho gutanga umusaruro.

Ahantu ubona yuko hari umusozi abantu bahingaho ndetse n'ikibaya, igishanga bateramo umuceri, ni byiza yuko abantu bakangukira gutunganya ubutaka bwagenewe guhingwa kugira ngo barusheho gukora imirimo y'ubuhinzi biteze imbere.

Abantu benshi ubona yuko biganjemo urubyiruko bafite ibikoresho byifashishwa mu kuhira imyaka bizwi nka roswari, bari kuhira ahantu bayoreje imbuto zitandukanye zirimwo avoka. Ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha harushaho kwegezwa abaturage kugira ngo babashe kubona ingemwe mu buryo bworoshye.

Abantu babiri ubona yuko barimo barahinga, ni byiza ko mu gihe twenda gutera imbuto tubanza guhinga neza tugatunganya imirima kugira ngo turusheho gutuma tubona umusaruro mwiza.

Abantu benshi mu bigaragara biganjemo abantu bakuru, barimo barasibura umuyoboro w'amazi, ni byiza ko dukora ibikorwa nk'ibi ngibi kenshi cyane, kugira ngo dusibure inzira z'amazi abashe kugera ku bayakeneye uko bikwiye atagize ibyo yangiza.

Abantu bari ahantu mu murima ubona yuko hahinzwemo ibigori kandi bikera neza. Ni byiza yuko abantu bose bakangukira gukora ubuhinzi kuko butanga inyungu cyane ndetse bakanita ku bihingwa bahinze babitera kijyambere ndetse bakanabiha ifumbire ihagije kugira ngo bitange umusaruro uhagije.

Ahantu hari igihingwa cy'imyumbati, ibi ni bimwe mu bihingwa ngandurarugo ndetse bishobora gutanga n'amafaranga bidufasha, mu kwihaza mu byo kurya nko kubona imyumbati yo kurya ndetse bikaba byanatunganywa bigatanga ifu ivamo ubugari.

Ahantu ubona yuko hari imifuka myinshi cyane ndetse n'ibindi bigori biri hasi, mu bigaragara ni aho bakusanyiriza umusaruro w'ibigori, ni byiza yuko tugira ahantu nk'aha dukusanyiriza umusaruro w'ibigori, ndetse n'indi myaka kugira ngo urusheho kubungabungwa utangirika.

Imifuka itandukanye iri mu ngano zitandukanye, ubona yuko irimwo imbuto za avoka. Ni byiza yuko dukangukira guhinga izi mbuto kuko zidufasha kwikura mu bukene, si ibyo gusa kandi tukanazirya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikibaya cyiza cyane ubona y'uko gihinzwemo ibihingwa byitwa ibigori, ni byiza y'uko dukangukira guhinga ibihingwa byitwa ibigori kuko bidufasha kwihaza mu biribwa ndetse no kubona amafaranga, bityo turusheho kubyitaho kugira ngo tubone umusaruro mwiza.

Abantu ubona yuko bari ahantu hahurira abantu benshi, mu bigaragara ni mu isoko, aho hari urujya n'uruza rw'abantu bahaha ndetse n'abagurisha, ni byiza yuko twitabira guhahira mu masoko, kugira ngo tubashe kubona ibyo dukeneye bituma ubuzima bwacu bugenda neza.

Imifuka myinshi ubona yuko irimwo umusaruro wakusanyirijwe hamwe. Ni byiza yuko igihe abahinzi bamaze gusarura ibihingwa byabo, babika neza umusaruro wabo kugira ngo bawurinde kwangirika bityo ubagirire umumaro, aho kubagirira ingaruka.

Ababyeyi babiri ubona yuko bari gutunganya umusaruro w'ibigori, bamaze kubihungura barimo barabigosora kugira babikuremo imyanda. Ni byiza yuko umusaruro twagize mu buhinzi tuwutunganya neza kugirango urusheho kugira agaciro.

Abantu benshi ubona yuko biganjemo ababyeyi barimo baratunganya umusaruro w'ibigori babonye, mu bigaragara abangaba bibumbiye hamwe, mu mashyirahamwe babasha guhingira hamwe, ni byiza yuko dukora ubuhinzi mu mashyirahamwe kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Ahantu ubona y'uko hubakiye, hari ibiti bimanikwaho umusaruro w'ibigori bawanitse, ni byiza ko abaturage begerezwa ubwanikiro nk'ubu ngubu, kugira ngo barusheho kwanika neza umusaruro bagize kugira ngo urusheho kugira agaciro.

Ibijumba ni bimwe mu bihingwa ngandurarugo bifasha abantu babihinga kwihaza mu biribwa binyuze mu kuba bitera imbaraga imibiri yacu, kandi bishobora gutanga amafaranga k'ubihinze tubyitabire.

Igishanga gitunganyije neza, ubona yuko abaturage bahuje ubutaka bagahinga igihingwa cyitwa umuceri, ni byiza yuko twitabira guhinga ibihingwa nk'ibi ngibi, kuko bidufasha kwihaza mu biribwa ndetse no kwivana mu bukene.

Abantu babiri mu bigaragara bari kwegeranya imbuto y'imyumbati, ni byiza ko abaturage bagira imbuto z'imyumbati nziza zituma babasha kubona umusaruro bityo bakiteza imbere.

Abantu babiri ubona y'uko bateruye umufuka urimo umusaruro w'ibyo bejeje, bagamije kuwubika ahantu hamwe kugira ngo umutekano wawo ube wizewe, ni byiza y'uko tubungabunga umusaruro twejeje kugira ngo utatugiraho ingaruka.

Umugabo ubona yuko ari ahantu bahanika ibigori igihe bamaze kubisarura, ni byiza ko abantu b'abahinzi bagira ahantu nk'aha ngaha bamanika ibigori byabo kugira ngo barinde umusaruro wabyo ku kuba wakwangirika bityo bibarinde igihombo.

Abantu ubona yuko bari ahantu mu ruganda rutunganyirizwamo ikiribwa cy'umuceri. Ni byiza ko izi nganda zegerezwa abaturage kugira ngo babashe gutunganya umusaruro wabo ndetse ubashe kurindwa kwangirika, bityo ugirire akamaro abahinzi ndetse n'abaturage muri rusange.

Ibikoresho byinshi ubona yuko byifashishwa mu gukusanya umusaruro, ibi bikoresho birimwo avoka, avoka n'imbuto nziza cyane zifashishwa mu gihe umuntu arimo afata amafunguro kandi si ibyo gusa zifasha uwazihinze kubona amafaranga binyuze mu kuba zijyanwa ku isoko zigakorwamo amavuta ndetse n'ibindi.

Ahantu ubona y'uko ari mu ishyamba ririmo ibiti birebire cyane bya kimeza, ni byiza ko tubungabunga ahantu nk'ahangaha kuko hadufasha kubona ibiti byifashishwa mu gukorwamo imbaho ndetse bikadufasha no kuba twabyubakisha, si ibyo gusa kandi bidufasha kuyungurura umwuka no gukwega imvura.

Ahantu ubona yuko harimo ibimera bitandukanye by'umwihariko ibiti bito ndetse n'ibirebire n'ibyatsi bya kimeza. Ibi byose ni ibidukikije bigomba kubungabungwa, cyane ko ari intaho z'inyamaswa kandi bikaba bidufasha mu kubona imiti ndetse n'ibiti twifashisha mu mirimo yacu ya buri munsi.

Ahantu ubona yuko higanjemwo ibyatsi ndetse n'ibiti bya cyimeza. Ni byiza yuko aha hantu habungwabungwa kubera yuko ari isoko y'imiti itandukanye ndetse, hakaba hanadufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Ahantu hari ibimera bitandukanye byiganjemo ibyatsi by'ibinyakigunda ndetse n'ibiti, by'umwihariko gereveria ndetse n'inintusi, ibi ni ibimera bidufasha cyane mu kubona ibiti byo kubakisha, mu kuyungurura umwuka duhumeka ndetse bikavaho n'imiti itandukanye.

Ahantu ubona yuko hari ibyatsi harimo ikimera cyitwa ipera, uru ni urubuto rukundwa n'abantu benshi bitewe n'uko ruryohera abarurya ndetse rukaba rwuje intungamubiri nyinshi.

Ahantu ubona yuko hakorerwa imirimo y'ubuhinzi, hari ibimera bitandukanye byiganjemo intoryi, amapapayi, insina ndetse n'ibindi biti harimo iby'avoka ndetse n'ibindi bivangwa n'imyaka, ni byiza yuko twese dukangukira gukora ubuhinzi.

Ahantu ubona yuko hari ibihingwa bitandukanye, harimo ibigori, urutoki ndetse n'ibiti by'umwembe, ni byiza y'uko ibi byose umuntu abihinga kugira ngo abashe kwihaza mu biribwa, harimo nko kubona ibigori byo kurya, ibitoki ndetse n'imbuto nk'imyembe bikenerwa n'umubiri wacu.

Ahantu hari ibimera bitandukanye byiganjemo ibyatsi, ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'ibitanga imbuto hakaba hari n'insina, ibi byose bigize urusobe rw'ibidukikije, ni byiza ko tubibungabunga kuko ari isoko y'ibiribwa, imiti ndetse n'ibiti twifashisha mu mirimo yacu ya buri munsi.

Ahantu heza cyane, ubona yuko hari ibiti bidatanga imbuto, ariko bidufasha kugira ngo tubone ibiti byo kubakisha, ndetse bikaba binadufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka, ni ngombwa yuko tubibungabunga.

Ibisheke ni bimwe mu bihingwa ngengabukungu bifasha abantu kwikura mu bukene. Si ibyo gusa kandi ibisheke abantu bashobora kubirya bityo bakinjiza isukari mu mubiri kandi byifashishwa bakora isukari mu nganda. Ni byiza ko twitabira kubihinga.

Ahantu ubona yuko ari mu ishyamba, harimwo ibimera bitandukanye birimo ibyatsi, ibiti bigufi ndetse n'ibirebire. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije nk'ibi ngibi kuko ari isoko y'imiti, imbaho ndetse n'ibiti byo kubakisha.

Umurima mu bigaragara uhinzwemo insina, igihingwa cy'urutoki ni kimwe mu bihingwa bifasha umuntu kwikura mu bukene binyuze mu kuba bitanga ibitoki byo kurya ndetse n'ibivamo imineke n'ibyatunganywa bikavamo inzoga tubyitabire.

Igihingwa cy'insina. Ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, bishobora gufasha umuntu ugikora kugira ngo yihaze mu biribwa, binyuze mu kuba bitanga ibitoki biribwa ndetse n'imineke. Si Ibyo gusa kandi bivaho n'ibitoki bishobora kwifashishwa mu gukora ibinyobwa nk'inzoga ndetse n'imitobe.

Ahantu ubona yuko ari mu ishyamba, ririmo ibyatsi kimeza ndetse n'ibiti kimeza, ni byiza ko tubungabunga ibidukikije nk'ibi ngibi kuko bidufasha mu kubona imiti twifashisha twivura indwara zitandukanye kandi bikadufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Ahantu ubona yuko harimo igihingwa cy'urutoki, ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo ndetse binatanga amafaranga ku bwinshi cyane ko bishobora kuduha ibitoki biribwa ndetse n'ibyifashishwa hakorwa inzoga ndetse bitanga n'imineke, ni byiza ko dukangukira ubu buhinzi.

Ibimera byinshi birimwo ibiti ndetse n'ibyatsi by'ibinyakigunda, nabyo bikwiye kubungabungwa, cyane ko bidufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka, mu kuba byakumira isuri ndetse bimwe bikavamwo imiti, ibindi bikaba byatanga ibiti twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukomeze tubibungabunge.

Ahantu ubona yuko hari ibiti bitandukanye, bidatanga imbuto, ibi birimo imiyenzi ndetse n'ibindi biti by'ishyamba, ni byiza yuko ibi bimera nabyo tubibungabunga, kuko bidufasha mu kubona ibiti byo kubakisha, ndetse no kuyungurura umwuka duhumeka.

Imbuto zitandukanye, zirimo: imineke, wotameloni, imyembe ndetse n'ibindi. Ibi byose bidufasha mu kugira ubuzima bwiza. Aho uwabihinze bimuha amafaranga ndetse n'uwabiriye, bikaba isoko y'intungamubiri atasanga mu bindi biribwa.

Agatanda karambuyeho ihema. Hariho imbuto zitandukanye harimo imyembe, harimo ibinyomoro ndetse n'izindi mbuto. Ni byiza yuko dukangukira guhinga imbuto nk'izi ngizi ndetse tukanazirya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, tuniteze imbere.

Umwana ubona yuko akiri mutoya. Afashe ingemwe z'ibinyomoro agiye kuzitera. Ni byiza yuko abana nk'aba ngaba na bo bakangurirwa gukora ubuhinzi bakiri batoya kugira ngo bakure bafite uwo muco wo gukora kandi barusheho kwiteza imbere.

Umuhinzi w'imbuto z'inyanya, ubona yuko arimo arasarura izi mbuto. Ni byiza ko abantu bakangukira guhinga imbuto nk'izi ngizi kijyambere, kugira ngo barusheho kwikura mu bukene. Si ibyo gusa kandi inyanya ni nziza cyane kuko, zifasha mu kuryoshya amafunguro, ndetse zikaba ububiko bw'intungamubiri utasanga mu bindi biribwa.

Umwana muto ubona y'uko ari kumwe n'umubyeyi we, bari ahantu bahinze inyanya. Umwana ari gufasha umubyeyi we kurandura ibyatsi by'ibyonnyi muri izo nyanya. Ni byiza y'uko dukangukira guhinga inyanya kuko zitanga umusaruro uhagije, kandi tukazikiza ibyonnyi mu gihe hari ibyatsi by'ikigunda byamezemo.

Imbuto nziza cyane zizwi nka wotameroni. Ni imbuto zikungahaye kuri vitamine A bityo ni ngombwa yuko tuzirya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi ni n'ibihingwa umuntu ashobora guhinga bikamuha amafaranga akiteza imbere.

Ahantu hari ubusitani bwiza ubona y'uko burimo indabyo z'amoko atandukanye, ni byiza ko tuba ahantu hasukuye twitabira mu guhinga ubusitani butandukanye burimwo ibyatsi ndetse n'indabo kuko butuma tuba ahantu hasukuye.

Abantu ubona y'uko biganjemo urubyiruko, mu bigaragara bari gufata neza ihumbikiro ry'imbuto zitandukanye by'umwihariko avoka ndetse n'izindi mbuto, ni byiza y'uko ahantu nk'aha ngaha abantu bahumbika imyaka nk'iyi ngiyi hitabwaho kugira ngo barusheho kubona ingemwe z'imbuto ndetse n'imboga nziza.

Ahantu hari ibimera bitandukanye, by'umwihariko hakaba harimo uruboga, ni byiza yuko abantu dukangukira guhinga imboga ndetse no kuzirya kugira ngo turusheho kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Ahantu heza cyane, ubona yuko harimo ubwatsi butoshye ndetse n'indabyo. Mu bigaragara ni ubusitani bumeze neza. Ni byiza ko ahantu dutuye tuhatera ibyatsi ndetse n'indabo kugira ngo turusheho kuba ahantu hasukuye.

Abantu bane, mu bigaragara bafite ibase bamaze gukusanyirizamo imbuto zizwi nk'intababara, ni byiza yuko abantu twese dukangukira guhinga imbuto nk'izi ngizi, kuko zitanga amafaranga, kandi zigufasha mu kubona intungamubiri utasanga mu bindi biribwa.

Agakoresho ubona yuko kameze neza gafite isuku, karimo imbuto zitwa inyanya, ni byiza yuko dukangukira guhinga imbuto nk'izi ngizi kuko zidufasha kubona amafaranga kandi imbuto nk'izi ngizi zidufasha kubona ibyo kurya byiza.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana we, mu bigaragara bari kubagara ibishyimbo, ni byiza ko igihe cyose dukora imirimo y'ubuhinzi, tugomba gukurikirana ibihingwa byacu tukabikiza ibyonnyi birimo n'ikigunda, kugira ngo turusheho kugira umusaruro mwiza.

Ahantu hari ubusitani bwiza ubona yuko burimo ibyatsi ndetse n'indabo z'amoko atandukanye, ni byiza yuko ahantu dutuye dukomeza kuhagirira isuku, tuhatera ubusitani kandi tukabwitaho, kugirango ngo turusheho kuba ahantu hakeye.

Umugabo n'umugore ubona yuko bari kumwe n'abana be, barimo barasarura ibihingwa bizwi nk'imiteja, imiteja ni kimwe mu bihingwa by'ingirakamaro cyane kubera yuko byifashishwa biribwa nk'imboga zuje intungamubiri, kandi bishobora gutanga amafaranga ku wabihinze.

Umurima urimo ururabo rwiza, ni byiza ko dukangukira guhinga indabo kuko zituma aho dutuye hagaragara neza, si ibyo gusa kandi iyo uhinze indabo mu buryo bw'umwuga hari ubwo zigufasha kwikura mu bukene bitewe no kuba zoherezwa hanze zigatanga amafaranga menshi.

Igihingwa cy'urubuto kitwa amacunga, ni imbuto nziza cyane, zifasha umuntu waziriye kugira ubuzima bwiza binyuze mu kuba ari isoko ya vitamini utasanga mu bindi biribwa ndetse zinafasha umuhinzi kwikura mu bukene abona amafaranga.

Ubusitani bwiza ubona yuko bukikijwe n'indabo ndetse burimo igiti cyiza cyane gikoreshwa nk'umutako cy'ururabo, ni byiza yuko ibi biti tubishyira mu busitani kuko nta cyo bibangamira ubusitani kandi bikaba bituma ahantu dutuye hagaragara neza.

Karoti ni igihingwa gishobora kugira umuntu umukire igihe yagihinze neza akacyitaho, ni byiza yuko twakangukira kuzihinga kugira ngo twiteze imbere, karoti kandi zikungahaye ku ntungamubiri umubiri wacu ukeneye, harimo na vitamine imibiri yacu iba ikeneye.

Agatanda karambuyeho shitingi ubona y'uko kariho imbuto zitandukanye by'umwihariko ibinyomoro ndetse n'imyembe, ni byiza ko dukangukira kurya imbuto nk'izi ngizi kuko ari isoko z'intungamubiri tutasanga mu bindi biribwa.

Umurima ubona yuko urimo ibihingwa bitandukanye, harimo ibijumba, amapapayi, ndetse n'intoryi, ni byiza yuko duhinga ibihingwa nk'ibi ngibi kuko bidufasha kwihaza mu biribwa, kandi bikadufasha kwivana mu bukene.

Ibihaza ni bimwe mu biribwa bikungahaye ku ntungamubiri utasanga mu bindi biribwa, niyo mpamvu dukwiye gukangukira ku birya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, bityo turusheho kubaho neza kandi tunabihinge kugira ngo twiteze imbere.

Ahantu ubona yuko hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi ndetse n'indabo z'amoko atandukanye. Ni byiza ko ahantu tuba turushaho kuhatera ubusitani ndetse tukabwitaho kugira ngo turusheho kuba ahantu hafite isuku, hanogeye ijisho kandi hadashyira ubuzima bwacu mu kaga.

Ibinyomoro ni ibihingwa ngengabukungu bishobora gufasha umuntu kwikura mu bukene, ibinyomoro kandi birimowo intungamubiri utasanga mu bindi biribwa, nk'aho byongera amaraso, ni byiza ko dukangukira guhinga ubuhinzi nk'ubu, kugira ngo turusheho kwiteza imbere kandi tugire ubuzima bwiza.

Ubusitani bwiza ubona yuko burimo ibyatsi, indabo ndetse n'ibiti, ni byiza yuko tubungabunga ubu busitani ndetse tukabwitaho tubukorera isuku kugira ngo turusheho kuba ahantu hameze neza kandi turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu ubona ariko hameze neza, hari ubusitani burimo indabo zitandukanye. Ni byiza yuko, izi ndabo tuzibungabunga, kuko zituma ahantu dutuye hasa neza, kandi si ibyo gusa, indabo zinifashishwa mu gutegura ahantu hatandukanye, hagiye kubera ibirori n'ibindi bintu byinshi.

Umugabo w'umuhinzi w'imbuto, mu bigaragara ari kwita ku bihingwa bye ari byo ibinyomaro, ibi ni bimwe mu bihingwa ngengabukungu bishobora gufasha umuhinzi kubona amafaranga mu buryo bworoshye, bityo kandi akaba yanazirya bikamufasha kugira intungamubiri zitandukanye akagira ubuzima bwiza.

Agatanda ubona yuko gashasheho imifuka, kariho ubutunguru. Ubutunguru ni bimwe mu bihingwa biteza imbere ubihinga ndetse bikaba byanadufasha kwivana mu bukene, si ibyo gusa kandi kuko ubutunguru ari isoko y'impumuro nziza iyo twabutetse mu biryo kandi bukanifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ubutunguru ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga cyane kandi si ibyo gusa ubutunguru buryoshya amafunguro, bukaba bwanifashishwa hakora imiti itandukanye, ivura indwara z'uruhu, dukangukire guhinga ubutunguru.

Ahantu hari abantu benshi harimo umumama uhetse umwana bigaragara yuko avuye gufata ingemwe z'imbuto z'ibinyomoro ku ihumbikiro, ni byiza yuko abantu twese dukangukira guhinga imboga n'imbuto kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Ubusitani bwiza ubona y'uko burimo ibyatsi bitoshye biconze neza, muri ubwo busitani harimo n'igiti cy'ururabo, ni byiza y'uko mu busitani bwacu dushyiramo n'indabo kugira ngo turusheho kuba ahantu hagaragara neza.

Inyubako ubona yuko imeze neza ifite ubusitani burimwo ibyatsi, indabo ndetse n'ibindi biti bitandukanye. Ni byiza ko ahantu tuba turushaho kuhatera ubusitani ndetse tukabwitaho kugira ngo turusheho kuba ahantu hasukuye.

Ahantu heza cyane ubona yuko hatewe ibihingwa bitandukanye, harimo ibijumba ndetse na karoti, ni byiza ko dukangukira gukora imirimo y'ubuhinzi bw'imboga ndetse n'ibindi bihingwa kugira ngo turusheho kwihaza mu biribwa no kwiteza imbere.

Umugabo uri kumwe n'abana be, bari mu murima bahinzemo inyanya ubona y'uko bari gusarura kandi bishimiye umusaruro zabahaye, ni byiza yuko dufatanya tugahinga inyanya ndetse n'izindi mboga n'imbuto ndetse n'ibindi bihingwa kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Imbuto zitandukanye zirimwo imyembe, imineke amacunga ndetse n'izindi, ni byiza yuko izi mbuto zose twitabira kuzihinga kugira ngo twihaze mu biribwa ndetse tunahaze n'amasoko bityo turusheho kwiteza imbere. Ni byiza ko tuzirya kugira ngo turusheho kubona intungamubiri umubiri wacu ukeneye.

Ahantu ubona yuko hari ibihingwa by'ibiti, mu bigaragara urabona yuko aha hantu hari ubutayu ntago hitaweho, ni byiza ko ibiti nk'ibi ngibi byitabwaho, bishyirwaho ifumbire kugira ngo birusheho gukura neza.

Ibinyomoro ni rumwe mu mbuto nziza cyane umuntu ashobora guhinga akabona amafaranga, si ibyo gusa kandi n'uwaziriye zigira intungamubiri nyinshi cyane nk'aho zongera amaraso, ku buryo utaziriye atabasha ku kubona izo ntungamubiri.

Ubutunguru bwinshi cyane burunze ahantu ku ihema, ni byiza ko dukangukira guhinga ibitunguru kuko bidufasha kubona amafaranga ndetse bikadufasha mu gihe turimo turabiteka bikaba byaryoshya ibiryo ndetse bikavaho imiti twifashisha twivura indwara z'uruhu.

Ahantu heza cyane ubona yuko harimo ibimera bitandukanye by'umwihariko indabo ndetse n'ibindi biti, ni byiza yuko ahantu dutuye, dukangukira kuhatera indabo kugira ngo turusheho kuba ahantu hameze neza kandi ni ngombwa yuko haba hari ibiti, bidufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka no gutanga igicucu.

Abantu benshi ubona yuko bari kwita ku gihingwa cya karoti, ni byiza ko dukangukira guhinga igihingwa cya karoti bitewe nuko zidufasha kwikura mu bukene, si ibyo gusa kandi karoti zibamo vitamine nziza cyane ku mibiri yacu utasanga mu bindi biribwa, ni byiza ko twitabira kuzirya ndetse no kuzihinga.

Ahantu ubona yuko hari ubusitani burimwo ibyatsi ndetse n'indabyo nziza, ni byiza ko ahantu dutuye tuhagirira isuku tuhatera indabo ndetse tuhashyira ubusitani kugira ngo turusheho kuba ahantu hasukuye.

Abantu benshi ubona bari ahantu hagenewe guhumbikwa imboga ndetse n'imbuto zitandukanye. Ni byiza yuko aha hantu haba hafi y'abaturage ku buryo umuhinzi ukeneye imbuto, azibona bitamugoye.

Igihingwa cy'ibihaza, ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bifasha abantu kwihaza mu biribwa, binyuze mu kuba biribwa ndetse bigashobora no kuba byatanga amafaranga, ni byiza yuko abantu dukangukira kurya ibihingwa nk'ibiingibi, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari ubusitani burimwo ibyatsi ndetse n'indabo, gusa hari utwatsi tuza ku ndabo tutagira ibibabi ndetse tutagira n'imizi dushobora kwangiza indabo, ni byiza yuko igihe twajemo tugomba kwita kuri izo ndabo, tukazisukura kugira ngo tuzirinde kuba zakwangirika.

Ahantu ubona yuko hahinze ibihingwa byitwa karoti. Ibi ni ibihingwa ngengabukungu umuntu ashobora guhinga kugira ngo abone amafaranga. Si ibyo gusa kandi karoti ni ingirakamaro kuko zibamo vitamini umubiri wacu ukeneye, zishobora kuribwa zitetse, zihekenwa ari mbisi, cyangwa bakaba banazikoramo imitobe.

Ibinyomoro ni rumwe mu mbuto umuntu ashobora guhinga bikamuteza imbere, binyuze mu kuba bigura amafaranga atari makeya iyo bisho ku isoko, ibinyomoro kandi byifashishwa mu gihe abantu bari gufata ifunguro, cyane ko bifasha mu kongera amaraso, na none kandi ibinyomoro bishobora gutunganywa bikavamwo imitobe y'ingenzi cyane mu buzima bwacu.

Ahantu ubona yuko hahinze imboga zitwa imbwija, ni byiza ko tugira uturima tw'igikoni turimo imboga nk'izi ngizi, cyane yuko zikungahaye kuri vitamine A utasanga mu bindi biribwa ibyo ari byo byose.

Umugabo ari mu murima we yahinzemo inyanya, mu bigaragara afite umupira arimo arazivomerera, ni byiza yuko dukoresha uburyo butandukanye bwo kuhira igihe habayeho ihindagurika ry'ibihe, kugira ngo izuba ritagira ingaruka ku musaruro wacu.

Umuhinzi ubona yuko yafashe ihema arisasa hasi bityo ayoboreraho amazi, azana igikoresho kizwi nka moteri gifasha mu kuvana ayo mazi muri iryo hema kiyatwara mu mupira, bityo umuntu akabasha kuhira imyaka yiwe bitagoranye, ni byiza yuko twitabira ubu buryo.

Umugabo ubona y'uko ari mu murima akoreramo imirimo y'ubuhinzi, arimo aruhira ibigori byiwe, ni byiza ko igihe habaye ihindagurika ry'ibihe dukoresha uburyo butandukanye bwo kuhira kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Abahinzi ubona yuko bari gutunganya umurima neza, bahateyemo imbuto, bateye mu buryo bugezweho bwo gutera ku murongo ndetse barimo baruhira, ni byiza ko igihe duteye imbuto mu gihe cy'izuba tugomba kuzuhira, kugira ngo zibashe kubona ubukonje ndetse n'amazi ahagije kugira ngo zimere neza kandi zitange umusaruro.

Abantu babiri ubona yuko bari mu murima uhinzemwo ibihingwa biteye ku murongo kandi bya kijyambere, ni byiza yuko abantu nk'aba ngaba bahinga mu gihe nk'iki ngiki k'izuba, bakoresha uburyo butandukanye bwo kuhira nk'uko uyu muntu ari kubigenza akoresheje umupira yuhira imyaka ye kugira ngo barusheho kugira umusaruro mwiza.

Abantu benshi ubona yuko bari ahantu bakorera imirimo y'ubuhinzi, bamwe bafite amasuka, abandi bafite ibikoresho byifashishwa mu kuhira byitwa rozwari. Ni byiza yuko duhinga kandi igihe habaye imihindagurikire y'ibihe tugakoresha uburyo butandukanye bwo kuwuhira kugira ngo tubone umusaruro mwiza.

Imisozi myiza ubona yuko ikorerwamo imirimo y'ubuhinzi, ihinzwe mu buryo bw'amaterasi y'indinganire, ni byiza ko abahinzi bakangukira gutera ibihingwa byabo mu materasi y'indinganire kugira ngo babashe kubona umusaruro mwiza.

Igishanga cyiza ubona yuko gikize ku mazi, iki gishanga giterwamo igihingwa cy'umuceri. Ni byiza ko abaturage babyaza umusaruro ibishanga nk'ibi ngibi bahingamo ibihingwa nk'umuceri kugira ngo bibafashe kwihaza mu biribwa ndetse no kwiteza imbere.

Umusozi ndetse n'ikibaya ubona yuko gikorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, ni byiza yuko ahantu nk'aha hakorerwa ubuhinzi harushaho kwitabwaho ndetse no gutunganywa kugira ngo hakomeze gutanga umusaruro kuko ubuhinzi ari isoko y'ibiribwa.

Igishanga ubona yuko gikorerwamo imirimo y'ubuhinzi, kirimo umugezi utemba, ni byiza ko ibishanga nk'ibi ngibi bibungabungwa, bifatirwaho ingamba zo kurinda isuri ndetse bikanatunganywa neza kugira ngo bigirire akamaro abaturage.

Ahantu ubona yuko hakorerwa imirimo y'ubuhinzi, hari imisozi myinshi ubona yuko itatse ibimera mu buryo bunogeye amaso, cyane ko ibi bimera bitewe ku buryo bw'amatarasi, ni byiza yuko dukangukira guhinga mu materasi y'indinganire kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Ahantu ubona yuko hari amaterasi y'indinganire arimo ibihingwa bamaze gusarura, ni byiza ko abantu twese dukangukira gutera mu materasi y’indinganire kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Ahantu hatunganyijwe neza ubona y'uko hahinze igihingwa cy'umuceri, iki ni kimwe mu bihingwa bifasha abantu kwiteza imbere binyuze mu kuba bitanga amafaranga kandi bigafasha mu kubona ibyo kurya nk'umuceri udufasha mu buzima bwa buri munsi.

Igishanga ubona yuko gikorerwamo imirimo y'ubuhinzi, kirimo umugezi mugari utembamo, ni byiza ko tubungabunga ibishanga nk'ibi ngibi kandi tukabungabunga iyi migezi kugira ngo turusheho kubyaza umusaruro ubuhinzi dukora.

Ahantu ubona yuko hahinze neza mu buryo bw'amaterasi, ku mpande zayo hariho ubwatsi bw'inka ndetse n'andi matungo. Ni byiza yuko abaturage bakangukira gutera mu materasi y'indinganire kuko byongera umusaruro kandi bikanafasha mu kubona ubwatsi bw'amatungo.

Ibibaya ndetse n'udusozi twiza ubona y'uko dutatse amaterasi y'indinganire yuzuyemo ibihingwa, ni byiza y'uko dukangukira gutera ibihingwa byacu mu materasi y'indinganire kugira ngo birusheho gutanga umusaruro mwiza.

Ibibaya ndetse n'imisozi ubona yuko bitatse ibyiza by'ibimera, ni byiza yuko dukangukira gukora ubuhinzi twita ku guhinga ibiribwa bitanga ibyo kurya ndetse n'ibitanga amafaranga kugira ngo twiteze imbere.

Ahantu ubona yuko hasa neza, ni mu kibaya kizengurutswe n'imisozi ubona y'uko itatswe n'ibimera bitandukanye, harimwo n'ibiti by'ishyamba, ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha haba hari n'amazi tuhakorera imirimo y'ubuhinzi, kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Ahantu heza cyane ubona yuko harimo ibyatsi bitoshye ndetse hari uruzitiro, ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha haba inzuri z'amatungo kugira ngo zibashe kubona ibyatsi byiza bityo ubworozi burusheho gutanga umusaruro.

Abantu benshi ubona yuko bakora umurimo wo guhinga. Ni byiza yuko abantu twese dukangukira gutunganya imirima neza, mbere yo kuyiteramwo ibihingwa kugira ngo tuzarusheho kubona umusaruro mwiza.

Ahantu heza cyane ubona y'uko hahinzwe ibihingwa ku murongo. Mu buryo bugaragara binogeye ijisho. Kandi nibwo buryo bwiza bwo guhinga neza ibihingwa bihanye intera kugira ngo habashe kuboneka umusaruro mwiza.

Ahantu ubona y'uko hari imisozi ihingwaho ndetse n'ibibaya bikorerwamo imirimo y'ubuhinzi, ni byiza y'uko abantu bafite ibibaya nk'ibi ngibi ndetse n'imisozi yagenewe ubuhinzi bayibyaza umusaruro kugira ngo biteze imbere.

Ibiraro byiza bya kijyambere byubakishijwe ibiti bisakaje amabati, ni byiza ko igihe umuntu agiye gukora ubworozi yororera mu biraro byiza kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'amatungo tworora bityo adufashe kwiteza imbere.

Inkoko ni rimwe mu matungo magufi umuntu ashobora korora mu gihe kitari kirekire akaba yamaze kwikura mu bukene, kuko zidufasha kubona amafaranga ndetse zikaba zanadufasha kubona ibikomoka ku matungo nk'inyama ndetse n'amagi. Twitabire kuzorora.

Umugabo, umugore ndetse n'umwana wabo bari kugaburira ingurube yabo, ubona yuko yitaweho neza bakoresheje igikoresho kizwi nk'ibasi. Ni byiza ko abantu twese dukangukira gukora ubworozi bw'ingurube kuko butanga umusaruro mu gihe kitari kunini kandi bikadufasha kwiteza imbere.

Ingurube ya kijyambere ubona yuko ibyagiye mu kiraro, urabona ko yabwaguye irimo ironsa ibibwana byayo. Ni byiza yuko dukangukira korora amatungo magufi ya kijyambere kuko atanga umusaruro mu gihe gitoya, bityo akadufasha kwihaza mu biribwa no kwikura mu bukene.

Ikiraro cy'inka, harimo inka ubona yuko imeze neza y'inzungu, ni byiza ko igihe tugiye gukora ubworozi duhitamo korora amatungo ya kijyambere kuko adufasha kubona umusaruro mu gihe gito.

Intama ni rimwe mu matungo magufi atanga umusaruro cyane kandi akaba yafasha uyorora kwivana mu bukene, intama zitanga amafaranga kandi zikaba zatanga n'ibikomoka ku matungo by'umwihariko inyama.

Icyumba ubona kirimo ubworozi bw'inkoko. Ni byiza yuko abantu bakangukira korora amatungo nk'aya magufi by'umwihariko inkoko kuko zifasha kubona amafaranga mu gihe gito, kandi bikadufasha kwihaza mu biribwa binyuze mu kuba ziduha inyama ndetse n'amagi.

Ingurube ubona yuko irahara mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse n'imbaho. Ni byiza yuko, ubworozi bw'amatungo magufi n'amaremare, bukorerwa mu kiraro kandi abantu bagakangukira korora ingurube kuko zitanga umusaruro mu gihe gitoya.

Ingurube bigaragara yuko iri hanze, bayisohoye bagiye kuyigaburira, ni byiza ko dukorera ubworozi mu biraro kugira ngo turusheho kubona ifumbire y'imborera, ni byiza kandi ko twita ku bworozi bw'aya matungo magufi by'umwihariko ingurube kuko zitanga umusaruro mu gihe gitoya.

Itungo rigufi ryitwa ihene riri mu kiraro cy'ibiti. Ni byiza ko amatungo nk'aya ngaya na yo yororerwa mu biraro kugira ngo arusheho kwitabwaho aduhe n'umusaruro mu buryo bwo kubona ifumbire, ndetse no kuba yaduha amafaranga n'inyama.

Inka ubona yuko ikiri ntoya bita inyana. Ni byiza yuko abantu dukangukira korora inka kuko zigira umusaruro mwinshi cyane cyane ko zitanga ifumbire ndetse zikaba zatanga ibyokurya bikomoka ku matungo harimo nk'amata, ndetse n'inyama.

Umworozi ubona yuko yasohoye ingurube mu kiraro, akaba ari kuyigaburira hanze, ni byiza ko amatungo nk'aya ngaya yororerwa mu biraro ariko akajya anasohorwa kugira ngo ananure amaguru, bityo biyarinde kugira uburwayi butandukanye bushobora kuduteza igihombo.

Inka iri ahantu hari uruzitiro ubona yuko yambitswe ikiziriko. Ni byiza yuko tworora inka mu biraro byiza tutaziziritse kugira ngo turusheho kugira umusaruro mwiza, binyuze mu kuzitaho uko bikwiriye.

Ubworozi bw'ingurube nziza ubona yuko ari iza kijyambere zifite igikuriro, ni byiza ko abantu twese dukangukira korora amatungo nk'aya ngaya magufa ya kijyambere kuko adufasha kwiteza imbere mu gihe gitoya kandi akadufasha kwihaza mu biribwa.

Ingurube ubona y'uko ziri hanze zitari mu kiraro, zirimo zirishakishiriza ibyo kurya, ni ngombwa y'uko aborozi bororera mu biraro bakajya basohora amatungo yabo bari kumwe nayo kugira ngo bayarinde ku kuba yahura n'ibibazo bitandukanye.

Inka nziza cyane ubona yuko ari iya kijyambere, iri mu kiraro. Ni byiza yuko, abantu twese dukangukira gukora ubworozi bw'amatungo maremare, kugira ngo turusheho kwiteza imbere, kandi twihaze mu biribwa, binyuze mu kubona inyama ndetse n'amata.

Ababyeyi bari kumwe n'abana babo bafashe ihene mu biziriko, ni byiza yuko imiryango yose ikangukira gukora ubworozi bw'amatungo magufi kugira ngo irusheho kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu bikomoka ku matungo nk'inyama ndetse n'ibindi.

Umugabo n'umugore we ubona yuko bafite inka ikiri ntoya iri mu kiraro. Ni byiza yuko imiryango yose yorozwa kugira ngo babashe kubona ifumbire ikenewe mu buhinzi, kandi babashe kubona ibikomoka ku matungo nk'inyama ndetse n'amata, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza no kwiteza imbere.

Ingurube nziza ubona yuko ari iya kijyambere, ni byiza ko igihe tugiye gukora ubworozi duhitamo korora amatungo ya kijyambere kuko atanga umusaruro mu gihe gitoya, bityo tukabasha kwivana mu bukene.

Ingurube y'igitare iri ahantu mu kiraro, mu bigaragara harimwo ikidomoro bayishyiriramo ibyo kurya. Ni byiza ko twororera mu biraro kugira turusheho kubona ifumbire y'imborera kandi n'amatungo akomeze yitabweho.

Inka nziza ubona yuko ziri mu biraro. Ni byiza yuko abantu dukangukira korora inka za kijyambere kandi tukazorora neza tuzitaho, tuzigaburira bikwiriye kugira ngo turusheho kubona umukamo mwinshi bityo twiteze imbere.

Ingurube iryamye mu kiraro bigaragara ko yabwaguye irimi ironsa ibibwana byayo, ni byiza ko dukangukira korora amatungo magufi arimo n'ingurube kuko zororoka mu gihe gitoya kandi zikadufasha kubona ibyo dukeneye nk'amafaranga ndetse n'ibikomoka ku matungo.

Ingurube ubona y'uko iri ahantu mu kiraro cyubakishije imbaho, ifite ikijerekani ishyirirwamo ibyo kurya, ni byiza ko igihe turi korora amatungo nk'aya ngaya tuyororera mu biraro kugira ngo tubashe kubona ifumbire kandi tukayitaho tuyagaburira uko bikwiriye kugira ngo arusheho gukura neza.

Ingurube ubona yuko iri mu kiraro gisa nabi, ubona yuko ititaweho neza. Ni byiza ko nubwo amatungo nk'aya yororerwa mu biraro, birakwiye yuko tuyagirira isuku, tukayagaburira bikwiriye kugira ngo arusheho gutanga umusaruro.

Ingurube iri ahantu mu kiraro cyubakishijwe ibiti. Mu bigaragara ifite ikijerekani bayigabuririramo. Ni byiza yuko dukangukira korora ubworozi bw'ingurube, kuko butanga umusaruro mu gihe gitoya bikadufasha kwikura mu bukene no kwihaza mu biribwa.

Inka iri mu kiraro ubona yuko cyubatse mu buryo butari bwiza, aho ubona yuko atari ikiraro gikomeye ku buryo cyatanga umutekano ku nka irimo. Ni byiza yuko tugomba kubaka ibiraro bikomeye kandi tukabisakara, kugira ngo turinde ubuzima bw'amatungo yacu.

Inka ubona y'uko zakusanyirijwe ahantu hamwe, ni byiza y'uko aborozi b'inka bagira igihe bakazikusanyiriza hamwe kugira ngo zihabwe inkingo ndetse zihabwe n'ubundi buvuzi bityo zirusheho kwitabwaho neza.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bw'amatungo magufi umuntu ashobora gukora akaba yabona inyungu mu gihe kitari kirekire, bityo akiteza imbere ndetse inkoko zitanga amagi n'inyama umubiri wacu ukenera buri munsi.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana we, mu bigaragara urabona yuko bakora ubworozi bw'ihene, ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora ubworozi bw'amatungo magufi, nk'ihene kugira ngo turusheho kwivana mu bukene kandi twihaze mu biribwa.

Ikiraro ubona yuko kirimo ihene, ubona yuko ziri kugaburirwa. Ni byiza ko amatungo nk'aya magufi na yo yororerwa mu biraro kugira ngo arusheho gutanga ifumbire ndetse arusheho kwitabwaho mu buryo bukwiriye, tubona inyungu.

Itungo ryitwa ingurube mu bigaragara riri hanze ntabwo riri mu kiraro, ni byiza yuko mu gihe tworora twakangukira kororera mu biraro kugira ngo turusheho kugira inyungu nyinshi binyuze mu kubona ifumbire ndetse no kwita ku matungo yacu neza.

Ikiraro cy'inka ubona yuko cyubatse mu buryo bwa gakondo kitajyanye n'igihe, ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha hororerwa amatungo habasha gutezwa imbere, bityo hakubakwa ibiraro bya kijyambere kugira ngo turusheho kugira ubworozi butanga umusaruro.

Ahantu ubona yuko hari inkoko nyinshi zororewe hamwe, ni byiza ko dukangukira gukora ubworozi nk'ubu ngubu bw'inkoko kuko budufasha kubona ibikomoka ku matungo nk'inyama ndetse n'amagi by'ingirakamaro mu mibiri yacu ndetse bikanadufasha kubona amafaranga tukiteza imbere.

Ahantu ubona yuko ari imbere y'ikiraro k'inka. Hari ihene ziziritse ku biti. Ni byiza yuko izi hene nazo zororerwa mu biraro kugira ngo zirusheho gutanga ifumbire ndetse zirusheho gutanga umusaruro.

Ahantu hari ihene ziziritse, aya ni amatungo magufi adufasha kwivana mu bukene binyuze mu kuba zitanga amafaranga, ihene kandi zishobora kuvaho ibyo kurya birimo inyama zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ihene iziritse ahantu ku giti, mu bigaragara ni ihene imeze neza, ni byiza ko abantu twese dukangukira ubworozi bw'amatungo magufi harimo nk'ihene, kuko zidufasha kubona amafaranga ndetse n'ibikomoka ku matungo by'umwihariko inyama, bityo tukagira ubuzima bwiza tukaniteza imbere.

Inkoko nziza ubona y'uko zitaweho, ubu ni ubworozi bushobora gufasha umuntu kwikura mu bukene, si ibyo gusa kandi inkoko zitanga amagi n'inyama umubiri w'umuntu ukeneye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Abaturage benshi ubona yuko bafite ihene mu ntoki, mu bigaragara bari bitabiriye igikorwa cyo kugabirana ihene, ni byiza yuko abaturage bagira uyu muco wo kugabirana amatungo, kugira ngo borozanye babashe gutera imbere.

Ababyeyi bari kumwe n'umwana wabo, mu bigaragara bakora ubworozi bw'amatungo magufi atandukanye by'umwihariko inkoko, ni byiza ko dukangukira gukora ubworozi bw'inkoko kuko budufasha kubona amafaranga mu gihe gitoya kandi bukadufasha mu kubona ibikomoka ku matungo nk'amagi ndetse n'inyama.

Ahantu hakusanyirijwe inka ubona yuko ari inka za kijyambere. Ni byiza yuko abantu twese dukangukira korora inka za kijyambere ndetse n'amatungo ya kijyambere kuko atanga umusaruro mwiza kandi mu gihe gito.

Inyana ubona yuko isa neza yitaweho, ibyagiye mu kiraro cyayo, ni byiza ko inka nk'izi ziba zikiri ntoya zitabwaho zishyirwa ahantu hashyushye kugira ngo zirusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu ubona yuko ari mu kiraro cy'ingurube, ubona yuko cyagutse ariko ubona yuko ari ahantu hadafite isuku, ni byiza yuko ubworozi nk'ubu ngubu bukorerwa ahantu hitaweho kugira ngo burusheho gutanga umusaruro.

Aborozi ubona y'uko bafite inka, ni byiza y'uko abantu bakangukira korora amatungo maremare nk'inka, kuko ari isoko y'ibikomoka ku matungo by'umwihariko inyama ndetse n'amata umubiri wacu ukenera.

Ihene ni rimwe mu matungo magufi umuntu ashobora korora mu gihe kitari kinini cyane akaba yabashije kubona inyungu akiteza imbere, bitewe nuko zororoka mu buryo bworoshye, zikaba zatanga amafaranga ndetse n'ibyo kurya bikomoka ku matungo harimo nk'inyama ndetse n'ibindi.

Ahantu hari uturima dutoya twubakiye twifashishwa barimo bahumbika ingemwe z'imbuto ndetse n'imboga zitandukanye. Ni byiza ko aha hantu habungabungwa ndetse hagakoreshwa cyane kugira ngo abaturage barusheho kubona imbuto, mu gihe gitoya kandi bitabagoye.

Umugabo ubona y'uko ateruye ibasi irimo umusaruro we w'amashu, ni byiza ko dukangukira gukora ubuhinzi bw'imbuto n'imboga kugira ngo twihaze mu biribwa bityo turusheho kwiteza imbere tugire n'ubuzima bwiza.

Umugabo ubona yuko arimo arakurikirana ibihingwa bye by'inyanya, ni byiza ko abantu duhitamo guhinga mu buryo bwa kijyambere dutera ku murongo kandi twifashishije ifumbire y'imborera n'imvaruganda kugira ngo turusheho kwihaza mu biribwa ndetse no kwikura mu bukene.

Ahantu ubona yuko ari umurima uteyemo imboga zitwa amashu. Ni byiza ko abantu dukangukira guhinga ibihingwa nk'ibi ngibi cyane ko imboga ari ingenzi cyane mu kuba zigira vitamine utasanga mu bindi biribwa kandi tukabikora kinyamwuga kugira ngo twiteze imbere.

Umugezi ubona yuko ugira ahantu uhagarara hagatemba amazi makeya, ni byiza yuko iyi migezi tuyibungabunga kuko idufasha mu kuhira igihe habayeho ihindagurika ry'ibihe, bityo tukagira umusaruro mwiza.

Umuganga w'amatungo ubona yuko ari gukora mu nda y'amaganga y'inka, bigaragara yuko iyi nka ifite ikibazo, ni byiza ko igihe umworozi abonye yuko itungo rye rifite ikibazo agomba kugana aba baganga b'amatungo bakamufasha.

Umworozi ubona y'uko ari kumwe n'umuganga w'amatungo, umuganga w'amatungo afite umuti mu ntoki bigaragara ko yaje kuvura inka, ni byiza ko twita ku buzima bw'amatungo yacu igihe arwaye tukayavuza ndetse tukanayakingiza kugira ngo arusheho gutanga umusaruro.

Umworozi w'intama ari kumwe n'umuganga w'amatungo, mu bigaragara bari gukingira intama. Ni byiza ko abaganga b'amatungo baba hafi y'aborozi kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bw'amatungo. Bityo ubworozi butange umusaruro mwiza.

Umuganga w'amatungo ubona yuko ari mu kiraro, ari gukora mu nda y'amaganga y'inka, bigaragara yuko iyi nka ifite ikibazo, ni byiza yuko abaganga nk'aba ngaba baba hafi y'aborozi, kugira ngo ubuzima bw'amatungo burusheho kubungabunga.

Inka iri mu kiraro ubona yuko cyubatse mu buryo bwa gakondo, ubona yuko ari inka imeze neza, ni byiza yuko abantu twese dukangukira ubworozi kandi tukabukora kinyamwuga kugira ngo burusheho kubyara umusaruro twiteze imbere.

Umugabo ubona yuko aragiye inka imbere y'urugo. Ni byiza yuko amatungo nk'aya ngaya yororerwa mu biraro kugira ngo turusheho kubona ifumbire ndetse arusheho kwitabwaho bitabaye ngombwa yuko yirirwa yanitswe ku zuba.

Abantu babiri ubona yuko umwe ari umworozi undi akaba ari umuganga w'amatungo, mu bigaragara bari kuvura inka yagize ikibazo ku ngoma yayo, ni byiza ko igihe amatungo nk'aya ngaya agize ibibazo tugana abaganga bayashinzwe kugira ngo bayahe ubuvuzi hakiri kare.

Abantu batatu barimo abaturage babiri ndetse n'umuganga w'amatungo, bari gushyira iherena ku nka. Ni byiza ko abaganga b'amatungo baba hafi y'aborozi kugira ngo barusheho gukurikirana ubuzima bw'amatungo, bityo ubworozi burusheho gutanga umusaruro.

Abantu batatu ubona yuko barimo n'abaganga b'amatungo, baje kuvura inka bigaragara yuko ishobora kuba yagize ikibazo, ni byiza ko igihe dukora ubworozi tuba hafi n'aba bantu bashinzwe kuyavura aya matungo kugira ngo turusheho kubona amatungo atanga umusaruro.

Umworozi ari kumwe n'umuganga w'amatungo, ubona yuko bari guha umuti inka ikiri ntoya. Ni byiza ko twita ku matungo yacu, tuyakingiza ndetse tuyavuza igihe yagize ikibazo cy'uburwayi, kugira ngo arusheho kugira umusaruro.

Inyamaswa zo mu gasozi zijya kumera nk'ihene, bazita isha, izi ni inyamaswa zitangaje cyane kubera umuvuduko wazo mu kwiruka, ari byo bituma imiterere yazo zikurura ba mukerarugendo bityo bakinjiza amadovize.

Inyamaswa zitwa inkende ni zimwe mu nyamaswa zitangaje cyane bitewe n'umuvuduko zigira mu kurira ibiti ndetse no kwiruka, izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo benshi, ni ngombwa y'uko tuzibungabunga kugira ngo dukomeze duteze imbere uruganda rw'ubukerarugendo.

Igisiga gifite amabara y'umukara n'ay'umweru kizwi nk'igikona, ni bimwe mu biguruka bitangaje cyane bitewe n'uko bigira ubwiza butuma ba mukerarugendo bifuza kubireba, ni byiza yuko tubibungabunga.

Inzu ubona yuko ifite ubusitani, muri ubwo busitani harimo inyamaswa zizwi nk'inkende, izi ni inyamanswa zitangaje cyane abantu benshi baturuka hirya no hino ku isi baje kuzireba, kubw'imibereho yazo itangaje, ndetse n'umuvuduko zigira zurira ndetse zinururuka ibiti.

Inyoni nziza cyane ubona yuko ifite amabara abereye ijisho, inyoni ni zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo benshi cyane, ni byiza yuko tugomba kuzibungabunga, si ibyo gusa kandi zinafasha mu kubangurira ibihingwa ndetse n'ibindi.

Abantu ubona y'uko bari ku kiraro cya kijyambere gica mu kirere, ibi ni bimwe mu bikorwa remezo by'iterambere cyane bifasha abantu gutembera ahantu nyaburanga nko muri nyungwe mu gihe bari gukora ubukerarugendo, turusheho kubibungabunga.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zibereye ijisho, bitewe n'amabara adasanzwe ziba zifite. Ibi biri mu bituma zikurura bamukerarugendo cyane kandi inyoni zidufasha mu kuba zabangurira ibihingwa bitandukanye bityo tukabona umusaruro uhagije.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa z'igasozi zikurura bamukerarugendo benshi, aho abenshi batangarira umuvuduko zikoresha zirimo zurira ibiti, ndetse n'ibikorwa byayo bijya kumera nk'iby'umuntu. Ni byiza yuko inyamaswa nk'izi na zo tuzibungabunga kuko ari ingirakamaro.

Inyamaswa z'agasozi harimo impala ndetse n'isha, hamwe na twiga, ni byiza yuko izi nyamaswa tuzibungabunga kuko zikurura ba mukerarugendo, bityo tukinjiza amadovize.

Inzoka ni inyamaswa mbi cyane kuko ishobora kurya umuntu akaba yahita apfa, kandi ni byiza yuko tubungabunga ahantu nk'aha ngaha haba hari inyamaswa nk'izi kuko zidufasha mu gukwega ba mukerarugendo, bityo tukarushaho kubona amadevize.

Imbwa ni rimwe mu matungo yahoze ari inyamaswa zo mu ishyamba ariko ubu ngubu yibanira n'abaturage, izi mbwa zidufasha mu kurinda umutekano w'ingo zacu niyo mpamvu dukwiye kuzitaho turwanya ko hari uwo zakwangiza ariko tunazirinda ku kubaba zagira ibibazo bitandukanye.

Ibitera ni bimwe mu nyamaswa zikunzwe n'abantu benshi cyane. Ni cyo gituma abakerarugendo baza kuzireba bitewe nuko zikora ibikorwa byinshi nk'iby'umuntu ndetse zikaba zibayeho mu buryo butangaje. Ni ngombwa yuko turinda inyamaswa nk'izi zo mu ishyamba kugira ngo duteze imbere ubukerarugendo.

Ingwe ni imwe mu nyamaswa z'ishyamba ziteye ubwoba, ariko zikunzwe n'abatari bakeya, binyuze mu kuba, ifite uruhu rurimo amabara menshi, bituma abayireba batayikuraho ijisho. Ni byiza yuko tubungabunga inyamaswa nk'izi z'ishyamba, kuko zidufatiye runini mu ruganda rw'ubukerarugendo.

Inkende iri ku giti, iyi ni imwe mu nyamaswa zikunzwe cyane kandi zitangaza benshi bitewe n'umuvuduko zigira zurira ibiti kandi n'ibikorwa byazo bijya kumera nk'iby'umuntu, ni byiza ko tuzibungabunga.

Ikiraro cyiza cyane cyubatse mu buryo bugezweho ubona yuko gica mu kirere, gica hejuru y'ibimera bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'ibiti. Ni byiza ko tubungabunga urusobe rw'ibi bintu byose kuko ari byo bidufasha mu gutuma ubuzima bugenda neza.

Igikeri ni kimwe mu nyamaswa zo mu mazi, kibaho mu buryo butangaje cyane kandi ibikeri birimo amoko menshi bituma hari abakerarugendo baza kubireba, bityo bakinjiza amadovize.

Inyoni nziza cyane ifite amabara meza ubona yuko iryoheye ijisho, ni inyoni bita kasuku, izi ni zimwe mu nyoni zikwega ba mukerarugendo benshi cyane, ni byiza yuko tuzibungabunga kugira ngo uruganda rw'ubukerarugendo rukomeze rutere imbere.

Imbwa ni rimwe mu matungo ateye ubwuzu kuko abana n'abantu akaba yabafasha kurinda umutekano w'ingo zabo. Ni byiza yuko tubungabunga inyamaswa nk'izi ngizi kuko zidufatiye runini.

Ikirura ni imwe mu nyamaswa zo mu gasozi ijya gusa n'imbwa, ni ngombwa yuko tubungabunga inyamaswa z'ishyamba kuko nazo zigira umumaro mu kuba zakwega ba mukerarugendo bityo ubukerarugendo bugatera imbere.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zikunzwe cyane bitewe n'uko zigira amabara meza akundwa n'abatari bakeya. Ni yo mpamvu abakerarugendo benshi bakora ingendo zitandukanye baza kuzireba. Ni byiza yuko tuzibungabunga kuko inyoni zifasha mu guteza imbere ubukerarugendo.

Inyoni nziza cyane ifite amabara meza yiganjemo umutuku, icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, ni byiza ko tubungabunga inyoni nk'izi ngizi kuko zikwega ba mukerarugendo. Si ibyo gusa kandi kuko zifasha mu kubangurira ibimera, tuzibungabunge.

Inyoni ubona yuko isa neza, ifite amabara anogeye amaso, ni byiza y'uko tubungabunga inyamaswa z'igasozi harimo n'inyoni kuko zidufasha muri byinshi, harimo nko gufasha mu kubangurira ibihingwa ndetse no gukurura ba mukerarugendo.